Umwana wambaye impuzankano y'umukara mo imbere yambaye mo ishati y'umweru ateze ibiganza ku mugezi bigaragara ko ari kunywa amazi akoresheje ibiganza, imbere hateretse indobo y'icyatsi igaragara nk'aho ariyo bajugunyamo imyanda cyangwa akaba ariyo bakoresha bashyiramo amazi.

Abantu benshi bagera kuri cumi na babiri biganjemo abagore n'abagabo bicaye mu cyumba, imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, ufite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko hari ibintu ari kubabwira, bijyanye no kwita ku bana n'ubuzima bw'abana.

Itsinda ry'abana benshi bambaye imyenda y'umuhondo hejuru bishimye cyane bazamuye amaboko, bigaragara ko hari nk'umuntu bari gusuhuza, inyuma yabo hari abantu bakuru biganjemo abagore n'abagabo, harimo abazungu n'abirabura nabo bazamuye amaboko, bigaragara ko hari umuntu bishimiye bari gusuza.

Umubyeyi wipfutse igitambaro mu mutwe, wambaye umupira w'ubururu uteruye mwana, imbere ye hari umuganga uri gukingira umwana, bigaragara ko yagiye kwa muganga, iruhande rwabo hari imeza iteretseho imiti, bigaragara ko ari yo bari kwifashisha bakingira abandi bana.

Abagore bagera kuri batatu bahagaze ku mugezi, babiri muri bo, bari gukurura icyuma gituma amazi aza, undi ateze indobo ku mugezi, kugira ngo ibashe kujyamo amazi, bigaragara ko bashyize hamwe cyane, kubera uburyo barimo gufashanya cyane rwose.

Abana bagera kuri batanu bahagararanye n'umuntu umwe ugaragara nkaho ari mukuru, bari ku mugezi bari kuvoma amazi ariko bari kureba mu ruhande rwo hakurya nkaho hari ikintu kiri kubera kidasanzwe.

Amaboko y'umuganga wambaye ikote ry'umukara ufashe ikiganza kimwe gifashe kuboko k'umuntu w'umuyumbu ukundi kuboko kwamujombye urushinge ku rutugu, bigaragara ko ashobora kuba ari kumukingira indwara runaka.

Abantu benshi bicaye mucyumba kinini bafite impapuro abandi bafite amakayi bigaragara ko hari umuntu uri imbere yabo uri kubabwira ibintu kubera ko bose bari kureba imbere kandi ubona ko bakurikiye cyane.

Abana benshi bagera kuri cumi na batanu, bamwe muri bo bambaye impuzankano y'ikigina, abandi bambaye imipira y'imituku, bigaragara ko ari abana bato bavuye ku ishuri, bari imbere y'umugezi, bose bategeye ikiganza rimwe bari kurwanira amazi, bigaragara ko bafite inyota cyane.

Ababyeyi batatu b'abagore bambaye udupfukamunwa ku masura yabo, babiri muri bo bafite ibivomesho, bateze amaboko yabo ku mugezi, bigaragara nk'aho bafite inyota bakeneye kunywa amazi, umwe arunamye ari kunywa amazi, undi ntago yari yunama ariko ateza ibiganza ku mugezi nk'ushaka kuyanywa na we ahagaze.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko barimo bamwenyura cyane, bigaragara ko bishimye barimo bafata ifoto y'urwibutso, imbere yabo barangajwe n'icyapa cyanditseho amagambo y'igifaransa, asobanura y'uko bafasha abarwayi bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Umwana muto cyane wambaye impuzankano y'umweru n'umukara, wishimye mu maso ufite akanyamuneza uri kurya biswi, yicaye ku ntebe ashyize akaboko ku meza akandi kaboko ke kari ku ntebe, bigaragara ko ari umwana w'umunyeshuri.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko, bambaye imipira y'imikara, bicaye ku ntebe ahantu, bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kubabwira ibintu byiza kubera ko bose bateze amatwi kandi barangamiye imbere, ikigaragara cyo ni nk'inama barimo cyangwa bakaba bari mu ishuri.

Umukobwa w'imibiri yombi, ufite umusatsi mwiza w'umukara, wambaye umupira w'umutuku, imbere wambaye ikanzu y'ubururu urimo ugaragara nk'uwishimye uri kumwenyura cyane ari kureba nkaho hari ikintu ari kureba imbere ye gishimishije.

Inzu nziza y'igorofa isize amarangi yo mu ibara ry'umweru, imbere yayo hari ubusitani bwiza burimo ibyapa bibiri byerekana ko aho hantu ari kwa muganga, bigaragara ko aho hantu hitabwaho bitewe n'uburyo ubu busitani busa neza cyane.

Abana bishimye cyane bambaye imipira y'imihondo, bigaragara ko ahantu bari hari ikirori kubera ko bambaye utuntu mu mitwe yabo tugaragaza ko ahantu bari hari ikirori, barishimye bari kureba ahantu bose bagaseka bigaragara ko imbere yabo hari kubera ibintu byiza bishimishije.

Abantu babiri umwe w'umugabo w'imibiri yombi, n'undi w'umukobwa wambaye imyenda y'ubururu n'uturindantoki tw'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru, ugaragara nk'aho ari umuganga, afite ibikoresho byifashishwa mu gukura amenyo yabishyize mu kanwa k'uwo mugabo, bigaragara ko agiye kumukura iryinyo.

Umukobwa w'imibiri yombi wasamye, imbere ye hari umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru, ufite n'ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gukura amenyo, bigaragara ko uyu mukobwa ari umurwayi, kubera ko imbere ye umuganga uhari, bigaragara ko ari kumurebera ikibazo yaba afite mu menyo cyangwa akaba ari kumukuramo amenyo.

Ikiganza bigaragara ko ari icy'umuganga, wambaye uturindantoki tw'ubururu, utunze urutoki ku ifoto igaragaza amenyo y'umuntu, bisa nk'aho ari kumwe n'abantu ari kugenda asobanurira, ibice bibiri bitandukanye by'umubiri w'umuntu, birimo amenyo.

Amaboko y'umuganga wambaye uturindantoki tw'icyatsi uri kumwe n'umwana w'inzobe ufite umusatsi mwiza w'umukara, akaboko kamwe ku muganga gafashe ku mutwe w'umwana akandi gafashe igikoresho cyifashishwa kwa muganga mu gukura amenyo yagishyize mu kanwa k'umwana bigaragara ko agiye kumukura iryinyo.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara yo kujyana koga urimo gukora isuku mu menyo ye arimo kwireba mu kirahure areba uburyo ari gukora isuku mu menyo ye, yambaye impeta ku kaboko ke k'iburyo ku rutoki rwa kabiri bigaragara ko afite umugore, imbere ye hateretse impapuro ebyiri z'isuku.

Umukecuru w'imvi nyinshi mu mutwe wambaye ikote ry'umukara, ari kumwe n'umuganga iruhande rwe, bigaragara ko ari kumupima, amureba, amwenyura, barimo baganira, bigaragara ko ari kubona umukecuru afite ubuzima bwiza buteye ishema.

Umugabo ugaragara nk'ukuze wambaye agapfukamunwa k'icyatsi, wambaye ishati y'ubururu, wicaye ku ntebe ahantu mu byatsi, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'icyatsi bigaragara ko ari kumufungurira ibipesu by'ishati kugira ngo abashe kubona uburyo amuvura.

Icyapa cya minisiteri y'ubuzima mu Rwanda kiriho amagambo y'icyongereza mu ibara ry'icyatsi, asobanura amabwiriza yo kwirinda virusi itera sida, uburyo bayivuramo n'uburyo bita ku barwayi bayo mu gihugu cy'u Rwanda.

Umubyeyi ukuze cyane w'umugore wambaye ingofero y'umutuku mu mutwe, bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo k'ijisho kubera ko hari kugaragara ijisho rimwe, irindi ririho ikintu cy'umweru kiripfutse, bigaragara ko rishobora kuba rirwaye.

Abantu benshi bagera ku icumi, harimo babiri babaganga, kubera ko bambaye imyenda miremire y'ubururu n'uturindantoki tw'umweru, n'udupfukamunwa tw'umweru, umwe muri abo baganga imbere ye, hari intebe y'umutuku yicayeho umuntu w'umugabo wambaye ingofero y'ubururu n'imyenda y'umukara wasamye, bigaragara ko bari kumusuzuma.

Umuryango w'abantu batanu ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana batatu, bigaragara ko bishimye barimo baganira baseka, barimo kuganira ku byerekeye ubuzima bwo mu mutwe bitewe n'amagambo yanditse imbere yabo.

Icyapa cya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda kiriho umuganga wambaye imyenda y'umweru n'umwana wambaye imyenda y'icyatsi barimo barebana, umwana bigaragara ko yishimye, cyerekana ko umurwayi akwiriye kwitabwaho mu buryo buhagije cyane kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza kandi akire vuba.

Abantu cumi na batanu barimo abazungu ndetse n'abirabura, bishimye cyane baganira, bahagaze ku cyapa k'ibitaro bya butaro mu karere ka burera nk'abantu bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'ibihe byiza bagiranye.

Umugabo ugaragara nk'ukuze wambaye amarinete urimo umwenyura cyane imbere ye hari umuganga w'umugore yamushyizeho igipimo bari kurebana bagaseka nk'abantu bahuje urugwiro bigaragara ko bishimye cyane.

Ibitanda byiza cyane bishashe neza, biriho amashuka y'umweru n'imisego y'umweru, bigaragara nkaho ari kwa muganga, kubera ko iruhande rwabyo hari imashini z'ubwoko bugiye butandukanye, bigaragara ko zifasha abarwayi.

Abasore n'inkumi bambaye imyenda y'umukara n'umweru, bari mu cyumba kinini kirimo ibikoresho bigaragara nkaho byifashishwa mu gukora ubushakashatsi, bigaragara ko aba bantu ari nk'abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye.

Abaganga b'abagore bagera kuri batandatu, bambaye udupfukamunwa, bafunze ibipfunsi, bigaragara ko bari kwifotoza, berekana intego zabo, n'ubudahangarwa bafite, n'imbaraga zabo, n'ubushobozi bwabo mu iterambere ry'ubuvuzi bwo mu Rwanda.

Icyumba gisa neza gisize amarangi y'umweru, kirimo intebe yo kwicaraho y'umukara, kirimo n'imashini ifite ibara ry'umweru n'ubururu, igaragara nk'iyifashishwa kwa muganga mu gutwara abarwayi batabasha kugenda neza.

Abantu bagera kuri batandatu babiri muri bo barahagaze abandi baricaye, batatu muri bo bambaye imipira y'ubururu bigaragara ko ari nk'abaganga bari gukora inama, kuberako ahantu bari inzu bariho yanditseho inzu y'ababyeyi.

Inzu nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu isize amarangi y'umuhondo n'umweru, bigaragara ko ari kwa muganga kubera ko yanditseho inzu y'ababyeyi, imbere yayo hateretse amacupa abiri arimo indabo, iruhande rwayo hari ameza asa n'ubururu bigaragara ko ari afasha abarwayi.

Bitanda byiza by'amabara y'umweru n'ubururu bishasheho amashuka y'icyatsi kijimye bigaragara ko ari kwa muganga kubera ko impande yabyo hagiye hateretse imashini, kandi bikaba biri ku murongo, nkaho ari ibyifashishwa n'abarwayi.

Imodoka nziza y'umukara isohotse mu gipangu kirimo inzu nziza y'igorofa, ifite amarangi y'umweru n'ikigina, hejuru yayo hari iminara y'itumanaho, hari n'ibigega byinshi by'umukara, bigaragara ko iyi nyubako yaba ari iy'ubucuruzi.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru ugaragara nk'umuganga, imbere ye hari imashini nini cyane ifite amabara y'umweru n'ubururu igaragara nkaho yifashishwa mu gukora imirimo yo kwa muganga, kubera yuko umuganga uri imbere yayo asa nk'aho hari ibintu ari kuyikoreraho.

Abantu bagera kuri batanu, umwe muri bo aragaragara nk'umuganga, kubera ko yambaye imyenda y'akazi y'umweru, n'ipantaro y'umukara hasi, afite ikarita mu gatuza iruhande rwe hari umubyeyi wambaye umupira utukura, bigaragara ko ashobora kuba ari umurwayi kubera ko ahantu bari hari inzu yanditseho ikigo nderabuzima cya Gisheru.

Ibitanda byinshi byiza bishasheho amashuka y'umweru n'ikigina, bigaragara nk'aho ari kwa muganga kubera uburyo biri ku murongo, kandi icyumba kinini birimo kiri kugaragaramo ibikoresho byifashisha kwa muganga, kugira ngo bite ku barwayi.

Ubusitani bwiza cyane burimo indabo nziza, burimo utuyira twiza, bufite ubwatsi bwiza, bigaragara ko ubu busitani bwitabwaho cyane, imbere yabwo hari kugaragara amazu asa nk'aho ari kwa muganga cyangwa akaba ari ikigo cy'amashuri.

Ubusitani bwiza bunini, bugaragara neza, burimo imihanda, burimo ibyatsi bisa neza, burimo ibiti, burimo ahantu ho gushyira imodoka, bigaragara ko ari kwa muganga, kubera ko ahantu buri, imbere y'aho hari igipangu cyanditseho amagambo yerekana ko ari kwa muganga.

Umurwayi w'umusore wambaye agapira k'umweru n'ikabutura irimo amabara, bigaragara ko asa nkaho yavunitse kubera ko imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'ubururu na ga z'umweru umufatiye mu kagare bigaragara ko ari kumwigisha gutambuka.

Abagabo babiri, umwe wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umweru aryamye hasi yashyize akaguru kuri mugenzi we wicaye wambaye isaha, bigaragara ko ashobora kuba ari nko kumuvura cyangwa ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye imyenda y'umweru yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi akagururu kamwe aragahina, akandi arakarambura, amaboko ye ayafatisha ku kaguru karambuye, arangije arararama areba mu kirere bigaragara ko agororotse cyane.

Umuganga w'umukobwa wambaye imyenda y'icyatsi n'uturindantoki tw'ubururu, arimo yambara agapfukamunwa imbere ye hari imeza itetseho mudasobwa n'amakayi, arimo arareba muri mudasobwa, yambaye akantu k'umugozi k'umukara mu ijosi bigaragara ko kifashishwa kwa muganga.

Umusore w'imibiri yombi wambaye umupira w'icyatsi, afashe icupa ry'amazi mu biganza arararama, areba hejuru, asuka amazi mu isura ye, bigaragara nk'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri kuko biragaragara ko ameze nk'unaniwe.

Umugabo urimo kwirukanka wambaye inkweto z'umukara, ikabutura y'umukara n'umupira uciye amaboko w'umweru n'umukara harimo akabara gato k'umutuku, impande ye hari imbuto nziza ziteye amabengeza zirimo karoti, intoyi.

Umukobwa w'imibiri yombi wambaye agakabutura k'icyatsi karimo imirongo ibiri y'umweru, hejuru yambaye agapira gatoya k'ikigina, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko yicaye hasi mu byatsi, akaba yafashe amaboko ye akayashyira ku maguru, akunama nk'umuntu uri kugorora umugongo n'amaguru yiwe.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku wanditseho ijambo ry'umweru n'ikote ry'umukara, bigaragara ko ari umuhinzi, kubera ko ari ahantu mu murima, kandi arimo arasarura imbuto zigiye zitandukanye, mu biganza bye afite amashami ariho amababi y'ubwoko butandukanye.

Uducupa tubiri tw'imiti n'amasura y'abantu agiye atandukanye, bigaragara ko utu ducupa turimo umuti wifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo cy'indwara z'uruhu kubera ko bari kwerekana uburyo umurwayi yabaga ameze mbere na nyuma y'uko akoresheje iyi miti uburyo yagiye ahinduka.

Abagabo benshi bagera ku icumi bambaye imipira y'icyatsi barimo baganira baseka bigaragara ko bakora mu buhinzi kubera ko ahantu bari hari ibihingwa bigiye bitandukanye kandi bakaba bafite n'ibitabo nk'abantu bari kwiga kuri ibyo bintu, barimo bagaragara nk'abari gufata ifoto y'urwibutso kubera ibihe byiza bagiranye.

Abantu benshi bagera kuri makumyabiri, biganjemo abambaye imipira y'umweru, abandi bambaye imipira y'icyatsi, bari mu mirima bigaragara ko bari bari kureba uburyo ibihingwa byabo bimeze, bafite imashini ebyiri barimo baragenda nk'abavuye kureba ubuhinzi bwabo uburyo buhagaze.

Amacupa menshi cyane afite amabara agiye atandukanye, harimo ay'umweru, harimo ay'ikigina, agiye ashushanyijeho ibintu by'ubwoko butandukanye bigaragara nkaho ari ibimera byifashishwa mu buvuzi.